Inzu iri iruhande rw'umuhanda, imbere yayo hari abantu, iyo nzu ikora ku byerekezo bibiri byumuhanda, ifite ishusho yamamaza hagati.

Umugabo uhagaze mu iduka ricuruza ibintu by'inzoga izisembuye zitandukanye. Arishimye ari guseka.

Icyapa kinini cy'umukara cyamamaza inzoga inyuma yacyo hari ibiti byinshi ikirere gikeye.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umukara na karavate y'umukara n'ishati y'umweru afite igikombe cy'umweru inyuma ye hari akabati karimo inzoga z'amoko menshi.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye hejuru hatatse imitako y'amabara atandukanye yaba ibara ry'ubururu n'ibara ry'umutuku, hirya hari aho abakiriya bashobora kwicara baganira ahantu hiherereye n'aho umukiriya ashobora kwicara arimo araka icyo kunywa umuntu uri gukora aho ngaho.

Urukuta rufite ibara ryijimye hamanitseho imitako iboshywe, iyi mitako izwi kuba ikorerwa mu Rwanda ikaba ari imwe mu mitako ikunda gushimisha abantu benshi.

Amashati y'amoko atandukanye, afite amabara atandukanye, ubu buryo bukunda kwifashishwa n'abacuruzi bagira ngo bamamaze ibyo bafite mu maduka yabo.

Iduka ririmo amashusho abiri bambika imyenda kugira ngo bayigaragaze mugihe bayigurisha, inyuma hari akabati karimo inkweto z'amoko agiye atandukanye zigurishwa.

Imitako itandukanye, harimo; amahembe, ibyibo, ibikoresho biboshywe n'ibitambaro bidoze, biri mu nzu ifite amakaro.

Umugore wambaye ikote uri gukanda muri mudasobwa mu iduka rinini, ahangaha abantu bakunda kuhaca mugihe bagiye gusohokana ibicuruzwa bagira ngo bamenye ayo bari bwishyure.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'abagore ipanze, imanitse ku murongo, hejuru yayo hari amasakoshi atandukanye.

Inzu yubakishijwe amabuye y'urugarika atatse neza, hamanitseho imyenda igurishwa, imbere yaho hari akameza kariho ibikoresho bitandukanye bigurishwa.

Imodoka enye zo mu bwoko bwa kwasiteri zikunda kwifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange zibavana mu ntara imwe zibajyana mu yindi ntara.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa kiya iparitse, inyuma yayo hari izindi modoka zifite ibara ry'umweru.

Igikamyo cyikorera ibintu bitandukanye gikunda kwifashishwa mu gutwara no kugemura amata, imbere hari abagabo babiri bafashe ishusho y'ikintu kimeze nk'urufunguzo rw'imodoka.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa toyota, imibare iyiranga imbere ipfutse, iparitse mu gipangu, inyuma yayo hari urukuta rurerure rw'amabuye, hariho n'udushobora kurinda umuntu kuba yagwa. Iyi modoka izwiho kuba ari imwe mu modoka zikomera kandi ziboneka cyane mu Rwanda.

Abagabo batandatu, bari kwifotoza, batatu bafite udukapu mu ntoki dufite ibara ry'umutuku n'umweru, iruhande rwabo hari imodoka yo mu bwoko bwa mahindara.

Imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo matoya ifite ibara ry'umweru imbere yayo hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, n'ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Imodoka zo mu bwoko bwa toyota, zifite ibara ry'umukara z'amavatiri, izi modoka zikunda kuboneka mu Rwanda, zizwiho kuba zikomeye kandi zihendutse.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa yundayi, iparitse mu muhanda imibare iyiranga ihishe; izi modoka zikunda kwifashishwa mu gihugu cy'u Rwanda zikaba ari zimwe mu zizwiho ko zikomera.

Imodoka ifite ibara ryirabura yo mu bwoko bwa yundayi iyi modoka ni imwe mu ziboneka cyane mu Rwanda ikaba izwiho gukomera hejuru yayo handitse amagambo abaza niba witeguye kuyigura na nomero wahamagara.

Inzu ikorerwamo imodoka, irimo ibyuma bizamura imodoka kugira ngo babashe kuyikora munsi, harimo imodoka ebyiri.

Imodoka ifite ibara ry'umukara bafunguye umuryango umuntu arimo arinjira iriho ururabyo imbere rw'umutuku. Ubu buryo bukunda gukoreshwa iyo uri gutanga impano ho imodoka.

Akamashini karimo amafaranga kari kuyabara, utu tumashini dukunda gukoreshwa mu mabanki, bagirango babare amafaranga menshi, umuntu atapfa kubara byoroshye.

Ibiganza by'umuntu ufite uruhu rwirabura, bifite amafaranga inote eshatu mu ntoki zitari amafaranga y'Amanyarwanda, imbere ye hari imashini.

Inoti y'amafaranga ijana yakorwaga na banki nationari y'u rwanda, iyi noti iriho ikiyaga n'imisozi bitatse u Rwanda. Yakoreshwaga kera.

Inoti ebyiri z'amafaranga ibihumbi bitanu zakorwaga na banki nkuru y'igihugu cy' u Rwanda zigaragaza amasura abiri, izi noti zakoreshwaga kera mbere mu Rwanda.

Inoti ebyiri z'amafaranga igihumbi zikorwa na banki nkuru y'u Rwanda, ziriho amasura abiri y'iyo noti hamwe hariho inzu ndangamurage y'u Rwanda ahandi hariho inkende.

Umugabo wambaye umupira w'umweru mu biro arimo harimo icyuma gitanga umuyaga, imbere ye hari umukiriya uri gushaka serivisi.

Ibicupa byifashishwa mu gushyiramo amazi yo kunywa, ubu buryo bukunda kwifashishwa n'abacuruzi bakorana n'uruganda rwa jibu rusakaza amazi yo kunywa mu gihugu.

Capati zikoze mu ifarini ziri ku meza, iri hejuru imeze nk'iyashiririye. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amacapati bukunda gukoreshwa hano mu Rwanda kandi abantu barabukunda.

Akajerekani karimo amata y'ikivuguto kariho agapapuro kagaragaza kampani yayafunze kariho n'igihe azarangirira gukoreshwa, inyuma yaho hahagaze abantu babiri.

Icyuma gikonjesha amata kugira ngo amare igihe kirekire, kiriho ibirango by'uruganda rumwe mu bikunda kugurisha amata rwitwa Nyanza.

Icyuma cyifashishwa mu gukonjesha amata, kiriho ibirango bya rumwe mu ruganda rukomeye mu Rwanda rucuruza ibintu bijyanye n'amata rwa Mukamira, inyuma hari etajeri irimo amazi y'uruganda rwa nili n'andi mazi.

Icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibintu bigiye bitandukanye, mo imbere harimo akajerekani karimo amata n'amazi y'uruganda rw'inyange, iruhande rwacyo hari ijerekani y'amazi yo kunywa.

Icyapa kinini cy'uruganda rw'inyange kiriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amata, amazi n'ibindi.

Umugabo uri mu nzu iruhande rwe hari etejeri irimo amandazi akozwe mi ifarini imbere yaho hari ameza abakiriya bashobora kwifashisha mu gihe bari gufata icyo kurya iruhande rwe hari imashini ikonjesha amata.

Inzu irimo intebe n'ameza, abantu bashobora kwicaramo banywa amata, inyuma hari etajeri irimo icyansi amazi, ijerekani, hariho n'icyapa kiriho amata yamamazwa...

Agatete karimo urupapuro rw'isuku rukoreshwa ku meza, ako gatete ka purasikite iruhande rwako hari imashini.

Keke ifashwe n'ikiganza cy'umuntu, ku meza hari igikombe kirimo amata, iruhande rwacyo hari ikaramu y'ubururu, ameza akoze mu giti, ayo meza nayo ateretse ku musambi urimo amabara y'icyatsi n'umutuku n'umweru.

Umwana w'inzobe ufite hagati y'imyaka itatu n'itanu, inyuma ye hari abagabo babiri umwe ufite terefone mu ntoki yifashe ku kananwa inyuma y'uwo mwana hari icyansi cy'amata.

Imashini irimo ibicuruzwa bitandukanye nk'amata, amazi, yahurute bikunda gukoreshwa cyane cyane n'abana.

Igipapuro kibonerana mo imbere harimo umugati. Biteretse ku itureyi y'amagi y'umutuku ya purasitike, abahinzi bakunda gukoresha bajyana amagi ku isoko kugira ngo atangirika; iri muri etageri mu nzu ifite irangi ry'umweru.

Ishusho igaragaza uburyo butandukanye ushobora kwishyura, harimo kwishyura ukoresheje cheque, kwishyura n'amafaranga, kwishyura ukoresheje terefoni, mudasobwa n'ikarita.

Ibiganza by' umuntu biteruye terefone muri terefone handitsemo ubutumwa bugaragaza kohereza amafaranga, kwishyura, serivise za banke n' ibindi.

Abagabo babiri, umwe ufite uruhu rwirabura, undi ufite uruhu rwera, imbere yabo hari imashini n'udukarita twamamaza bari mu nzu iruhande rwabo hari icyuma gisaka.

Inoti eshatu z'amafaranga icumi zikunda kwifashishwa mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi. Aya mafaranga aba afite agaciro kenshi cyane.

Ikiganza cy'umuntu ufite uruhu rwera ufite inote icumi z'amafaranga mirongo itanu akunda kwifashishwa mu bihugu by'iburarayi.

Banki nkuru yo muri Tanzania, hariho amafaranga igihumbi y'amashilingi yo muri Tanzania ndetse hari n'ifoto y'umugore hasi hano hariho n'inyubako, aho iyi iba iherereye.

Urutonde rugaragaza ibihungu bigiye bitandukanye, n'amafaranga akoreshwa muri ibyo bihugu, n'uko agura n'uko agurishwa, uru rutonde rukunda kwifashishwa n'inzu zivunjisha amafaranga.

Amafaranga afashwe n'ibiganza by'umuntu ufite uruhu rwera. Ni amafaranga akunda kwifashishwa mu bihugu by'Aziya yanditseho ijana.

Ibiganza by'umuntu ufite uruhu rwera bifite inoti z'amadorari z'amafaranga ijana, ayo mafaranga akaba azwiho ku isi hose kuba ari amafaranga yifashishwa mu bucuruzi.

Ibiganza by'umuntu biri kubara amafaranga, iruhande rwayo hari impapuro, hari n'imashini yifashishwa mu kubara amafaranga, aya mafaranga atari amanyarwanda.

Ibiganza by'abantu, ikiganza kimwe kiri guhereza amafaranga ikindi kiganza, iruhande rwabo hari umushandiko w'amafaranga. Ayo mafaranga ntabwo ari amanyarwanda.

Umugore ufite ibara ry'uruhu rwera ufite n'inoti mu ntoki z'amafaranga atandukanye akunda gukoreshwa muri aziya, mu kindi kiganza afite ibiceri bikoreshwa cyane cyane muri aziya.

Icyapa kigaragaza amazina y'ibihugu n'ubwoko bw'amafaranga bakoresha, uko bayagura n'uko bayagurisha, ubu buryo bukunda kwifashishwa n'ibiro bikora iby'ivunjisha ry'amafaranga.

Ibiganza by'umuntu biri kubara amafaranga y'inote, iruhande hari umushandiko w'amafaranga ufungishijwe fimbo

Inoti y'amafaranga makumyabiri iriho ishusho y'umugabo, aya mafaranga akunda kwifashishwa mu bihugu byo muri aziya, kandi azwiho kuba afite agaciro, iyo ageze muri afurika ashobora kugura ibintu byinshi.

Icyapa kigaragaza amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye uko agura n'uko agurishwa.

Icyapa kiriho amazina y'ibihugu bitandukanye, hariho amafaranga yabyo uko agura n'uko agurishwa. Hariho n'ibirango by'amadarapo y'ibyo bihugu.

Ni inote zitandukanye, mirongo itatu, makumyabiri, inote y'ijana ndetse n'inote ya makumyabiri na none, inoti ya makumyabiri, inote y'ijana ndetse n'inote ya mirongo itanu. Ni umuntu ubifite mu ntoki.

Umugabo uri kubara amafaranga mu ntoki, inoti imwe yanditseho ijana, iruhande rwe hari imishandiko igera muri ine y'amafaranga.

Akamashini kifashishwa mu kubara amafaranga karimo karabara amafaranga, utu tumashini dukunda gukoreshwa mu mabanki kugira ngo babare amafaranga menshi icyarimwe bidatwaye umwanya munini.

Umugabo uri kwinjira mu biro bivunja amafaranga, ibi biro bikunda kwifashishwa n'abantu bashaka kuvunja amafaranga yabo bayakura mu y'ibindi bihugu bayashyira mu manyarwanda cyangwa bayavana mu manyarwanda bayashyira mu y'ibindi bihugu.

Inzu iriho icyapa kigaragaza ko ahongaho bavunja amafaranga bayavana mu myarwanda bayashyira mu yandi y'ibindi bihugu cyangwa bayakura mu y'ibindi bihugu bayashyira mu manyarwanda.

Ibiro bitangirwamo serivise y'ubwishingizi, harimo abantu bafite uruhu rwera batatu, n'umwe ufite uruhu (rwirabura....)

Ibiro bikorerwamo imirimo yo kuvunja amafaranga, mo imbere harimo abadamu babiri n'umugabo umwe, harimo n'intebe ushobora kwicaraho mu gihe utegereje ko baguha serivisi.

Inzu irimo ameza atandukanye yo kuriraho cyangwa kuganiriraraho ayo meza afite n'intebe zayo enye enye akunda gukoreshwa mu gusangira ku meza.

Ameza afite intebe zigera muri esheshatu, kuri ayo meza hariho ibyo kurya bigiye bitandukanye, hariho n'ibikombe birimo icyo kunywa n'amasahane n'amakanya.

Igikari cy'inzu kirimo ameza utubati n'intebe harimo n'imodoka ifite ibara ry'ubururu hakaba hari n'inzu ifite igisenge gifite amabati atukura.

Inzu yubakishije amatafari ya munyo, igeretse rimwe, isakajwe amategura, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri.

Inzu irimo intebe zifite ibara ryerurutse harimo n'ameza ariho igikombe kirimo indabyo zifite ibara ry'umutuku.

Ibiro bifite ameza abiri, kandi ku ruhande hariho intebe. Kuri ayo meza, hariho amazi yo kunywa n’udukayi dutoya, ndetse imbere hari ikibaho. Izi nyubako bakunda kuzifashisha mu gihe cy’inama.

Ni hoteli irimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye ndetse kuri buri cyumba, haba handitseho nimero za buri muryango ndetse za bur'icyumba.

Igishushanyo mbonera kigaragaza inzu igeretse gatatu, imbere yayo hari imodoka ziri gutambuka. Ubu buryo bukunda kwifashishwa n'abantu bagiye kubaka bakabanza gushushanya iyo nzu bakayerekana uko izaba imeze.

Agahema karimo intebe n'ameza abantu bashobora kwicaraho baruhuka, iruhande hari inzu ifite amagorofa ane nini ikunda kwifashishwa n'abantu bashaka kuruhuka.

Ameza maremare mo imbere hicayemo abamu babiri, ubu buryo bukunda gukoreshwa na amahoteri yakira abakiriya bayagannye, aho umukiriya ashobora kubariza serivisi yose ashaka.

Ahantu hafatirwa amafunguro atandukanye, harimo: ibyoku kurya, harimo ibyo kunywa, harimo aho kwicara ndetse n'imitaka kugira abicaramo izuba ritabica.

Imitako ikozwe mu giti iteretse mu busitani inyuma yayo hari inzu nziza ifite n'ubusitani bwiza. Ibi biti bikunda gukoreshwa nko mu mahoteri bagirango batake ubusitani bwabo.

Inzu zigeretse ebyiri zisa hagati harimo igiti cy'umutako. Izi nzu zikunda guturwamo n'abantu by'igihe gitoya bazikodesha.

Ameza ariho ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amasahani, bikikijwe n'intebe enye, inyuma yaho hari ameza nk'ayo ngayo atandukanye menshi.

Ibiro byakira abakiriya, mo imbere harimo abagabo batatu, umwe wambaye ikote, undi wambaye umupira w'umutuku n'ikoboyi, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ibiro bikorerwamo n'abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bamwe bafite uruhu rwera abandi bafite uruhu bwiwirabura, harimo nka mudasobwa n'amamikoro.

Ibiro bikorerwamo na kimwe mu bigo bikomeye mu Rwanda, bitanga ubwishingizi harimo: intebe n' ameza abakiriya bashobora kwicaramo mu gihe bategereje ko bahabwa serivisi.

Turi mu biro, harimo abantu babiri umugabo n'umugore bari kwandika ndetse bari gufasha umuntu kuzuza ibintu ari kubasaba, hano bafite amakarita agiye atandukanye ndetse hari n'abandi bantu bategereje ko babaha serivisi.

Abanyeshuri bicaye abandi bahagaze imbere yabo hari umwarimu wambaye karuvati n'ishati n'ipantaro barimo baraganira.

Umugabo wambaye uturineti afite ibyishimo yegamye imbere ku kizuru cy'imodoka, bishoboka ko ari kwifotoza ndetse ari no kwerekana ibintu bitandukanye, mu ntoki afite urufunguzo rw'imodoka.

Inzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, udukapu, imitako, n'ibindi bintu, imbere hari imashini yifashishwa mu kudoda.

Ibitoki byinshi birunze, imbere y'inzu yagenewe gucururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abantu benshi, imbere y'ibyo bitoki hahagaze umukobwa wambaye ikoti afashe mu mifuka.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe, yicaye ashyize ukuboko ku kananwa, yicaye hagati y'imbuto zitandukanye, indimu, imyembe, imineke, ubunyobwa, n'ibindi bitandukanye.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye imbuto, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibitoki ndetse n'ibindi byinshi birimo hano.

Umugore uteze igitambaro, imbere ye hari imbuto z'amoko atandukanye imineke ya kamara, inanasi, ibinyomoro, amaronji n'ibindi.

Iduka ririmo imitako igiye itandukanye harimo ibiseke, udukapu, inkoni zifashishwa mu bukwe, hari n'abantu bagiye batandukanye bicaye muri iryo duka.

Umucuruzi yafashe ibicuruzwa agenda abishyiraho icyapa by'igiciro ibyo bicuruzwa bye byigura, harimo ibintu bigiye bitandukanye, imbuto, imboga ndetse n'ibindi byinshi urutunguru, amashu ni byinshi cyane.

Umucuruzi w'umugore ufite agashashi mu ntoki ari guhereza umuntu k'umukara, ufite n'akamashini mu kundi kuboko wambaye umupira w'umutuku. Hirya ye hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, iruhande rwe hari n'imbuto nyinshi imbere ye hari ibikoro.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'imodoka na moto n'abantu iruhande hari inzu ifite amagorofa atatu.

Ibirayi n'ibitoki birunze hasi, iruhande rwabyo hari abadamu bicaye, imbere yabo hari umucecuru wambaye igitenge cy'icyatsi n'akagofero mu mutwe,

Umugore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ufashe igitunguru mu ntoki imbere ye hari ibitunguru byinshi, imbere ye hari umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku uje kugura.

Umukobwa wambaye amadarubindi ku gahanga ufite mikoro wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro yubururu inyuma ye hari abantu bicaye mu gisharagati.

Turi gucuruza fanta za koka, hari umuntu uje kugura bari kumwereke uburyo yakwishyura akoresheje momo peya.

Ibiro bikorerwamo n'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda cyitwa eyateri imbere hariho ibirango by'icyo kigo.

Abagabo babiri bari kuri moto, bambaye ingofero z'ubwirinzi igihe umuntu ari kuri moto. Iruhande rwabo hahagaze abagabo babiri bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, barimo kureba muri telefoni kugira ngo bishyure bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo iriho ibirango bya kompanyi imwe mu zizwiho gutanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda bari guseka.

Icyapa cyerekana imibare ushobora gukanda ukishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bw'itumanaho rya kompanyi mu Rwanda ikomeye ya MTN.

Ihema rya kompanyi imwe mu zizwi mu Rwanda gutanga serivisi y'itumanaho hahagazemo abantu benshi b'abagabo bari kureba mo imbere aha niho batangira serivise.

Terefone ifite amatushi irimo ubutumwa bugaragaza umuntu ugiye kwishyurwa amafaranga, n'izina ry'umuntu agiye kwishyuraho n'ikiguzi imbere ye hari icyapa kigaragaza nomero n'imibare ushobora gukanda kugirango wishyure umuntu.

Akazu gasize irangi ry'muhondo hariho n'amagambo y'ikinyarwanda, hariho n'amafoto yamamaza. Imbere yaho hariho ipoto rikozwe muri beto ry'umuriro.

Icyapa kigaragaza imibare umuntu ashobora gukanda kugira ngo yishyure umuntu binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi byapa bakunda kubishyira ahantu umuntu ashobora kugura ikintu akaba yakwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Icyapa kigararagaza uko wakwishyura ukoresheje MoMo, hariho izina ry'umucurizi, na kode ushobora gukanda kugira ngo wishyure. Ibi byapa bakunda kubimanika mu maduka cyangwa ahandi hantu umuntu ashobora kugurira ikintu, bityo akaba ashobora kwishyura m'uburyo bw'ikorana buhanga.

Umugabo wicaye mu kazu k'umuhondo gatangirwamo service zitandukanye, iruhande rwe hari igiti cyakuze kinini cyane.

Akazu gafunguye impande esatu mo imbere harimo umugabo umwe wambaye ingofero n'umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara imbere y'ameza hahagaze abantu baje gushaka serivise batandukanye.

Umumotari wagiye kunywesha esanse kuri sitasiyo arimo arashyirirwamo esanse n'umugabo urimo araseka wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo y'icyongereza, iruhande rwe hari umugore wambaye nawe umupira w'umuhondo bya kampani ya MTN y'itumanaho mu Rwanda imwe muzikomeye.

Moto inyuma hari umugabo uri gukora mu gasanduku kari kuri iyo moto akuramo ibintu, wambaye ingofero bambara mu gihe umuntu ari kuri moto kugira ngo yirinde mu gihe akoze impanuka, yambaye n'umupira ufite ibara ry'icyatsi n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hahagaze umugabo.

Abagabo babiri bambaye ingofero zirinda umuntu igihe ari kuri moto bambaye n'amashati y'icyatsi hagati yabo hari agasanduku kanditseho vubavuba.

Moto enye zicayeho abamotari bambaye ingofero zabigenewe zo kurinda umuntu mu gihe ari kuri moto zifashishwa mu kugemura ibicuruzwa ku baguzi baba babitumyeho.

Aha ni ho bacururiza amata y' i Nyanza, amata ni meza ku mubiri w'umuntu aradufasha cyane kubaya

Abakobwa babiri bari guseka bafashe ikarito mu ntoki zabo igaragaza mirongo itanu ku ijana handitseho ngo bahamagare uburyo bukoreshwa mu kwamamaza.

Abagore babiri bicaye, hagati yabo hari ameza manini, hariho izina rya kopanyi bakorera, inyuma yabo hari umugabo uri kuvugira kuri terefone.

Umugabo wambaye ingofero irinda abantu igihe bari kuri moto, wambaye n'ijire ya oranje, ari gukora mu gisanduku agira ngo akuremo ibicuruzwa azaniye umukiliya we, uri imbere ye.

Umugabo uri gushyira anvirope zirimo ibintu mu gasanduku, agasanduku kanditseho vuba, vuba akaba ari kampani itanga serivise yo kugemurira abantu ibintu bitandukanye baba baguze

Umugabo wambaye ingofero, y'ubwirinzi mu gihe ari kuri moto, imbere ye hari agasanduku, kanditseho amagambo y'impine, inyuma ye hari imodoka nyinshi.

Abagabo babiri bambaye ingofero zirinda umuntu igihe ari kuri moto hagati yabo hari agasanduku kanditseho vubavuba iyo kompanyi ikaba itanga, serivise zo kuzanira abantu ibintu baguze bakeneye.

Inzu icururizwamo imyambaro, mu ibaraza ryayo hari umutako urimo amagambo y'Icyongereza, hariho n'ishusho y'umudamu, uteze igitambaro.

Abagabo babiri umwe ufite uruhu rwera undi ufite uruhu rwirabura, bafite ingofero ebyiri bambara bari kuri moto z'umutekano, zivugwa ko zifite ubuziranenge ku buryo umuntu aramutse akoze impanuka ntakintu ashobora kuba.

Icyumba cyagenewe gukarabirwamo na tuwarete, harimo tuwarete naho gukarabira ku rukuta hometseho amakaro harimo n'idirishya ritoya riri hejuru.

Inzu irimo intebe igikoresho kifashishwa mugusakaza amashusho n'imitako harimo umugabo ufite uruhu rwera n'umugore ufite uruhu rwirabura.

Umugabo ufite uruhu rwera wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, uri kumwe n'umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye agapfukamunwa, wambaye n'ishati yirabura, bari kwitegereza imisozi.

Inzu ifite uruganiriro rufite itara rifite imitako, ifite n'inzugi zifungukira habiri harimo amakaro...

Inzu ifite ibara ryerurutse igereretse rimwe, munsi yayo hari umugabo wambaye ikoti ifite ibara ryijimye n'ipantaro ifite ibara rya kake, ari gusohoka avuga.

Iduka rinini ririmo ama etajeri arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari n'icyapa gishimira umuguzi yuko amaze kugura.

Imboga z'amoko atandukanye harimo inyanya, ibitunguru, karoti, puwavuro n'ibindi bitandukanye, iruhande hari abantu bari kugenda mu isoko.

Inzu ifite amagorofa arenga atatu, itatseho ibirahuri munsi harimo amaduka atandukanye ushobora guhahiramo ibintu bitandukanye.

Iduka ricuruza imikandara y'amoko atandukanye, rikanacuruza inkweto zifunguye z'abadamu z'amaoko agiye atandukanye.

Umugabo uri kugenda asunika akagare karimo ibintu yaguze iruhande rwe hari etajeri ebyiri zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umudamu wambaye amadarubindi, ufite ibisuko ku mutwe, wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ari mu iduka, imbere ye hari etageri irimo ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye.

Umugore ufite uruhu rwirabura wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu bwijimye mu ntoki afashe icupa mu rundi ruhande afite agakapu.

Umudamu ufite imisatsi myinshi wambaye ikote ry'ubururu n'umupira w'umweru, n'ipantaro y'ubururu, uri mu iduka ari kugura ibintu bigiye bitandukanye, akabanza gusoma ibyanditseho.

Iduka ririmo abagabo batatu n'umugore umwe ufite akagare imbere ye ashyiramo ibyo amaze kugura, umugabo yambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo y'icyongereza afite terefone mu ntoki.

Etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye, ibinyobwa by'uruganda rwa coca cola, ibinyobwa by'uruganda rwa zero n'andi maji atandukanye, yaba ay'umuhondo, ay'umutuku n'ay'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umukara n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ari gusunika akagare bashyiramo ibintu umuntu aguze, ari mu iduka ririmo imashini zitandukanye.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ryirabura n'ipantaro ifite ibara ryerurutse, iruhande rwe hari etageri zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero nk'amata, ji, hirya hari izindi etageri nyinshi zirimo ibicuruzwa.